Icyapa kirekire kiri mu muhanda, iki cyapa cyanditsemo imibare mu mabara atandukanye, harimo ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'icyatsi, iki cyapa kizwi ku izina ngoni feruge, munsi mu muhanda hariho imodoka ziri kugenda, harimo imodoka nini ndetse n'intoya.

Imodoka ebyiri nziza ziparitse; imwe ifite ibara ry'umukara, indi ifite ibara ry'umweru impande y'imodoka y'umukara hariho umupolisi afashe imbwa yayikuruye mu mugozi.

Abagabo n'abagore bari hamwe bambaye imyenda ya gisirikare, ndetse n'inkweto. Ikindi bafite n'intwaro zabo cyangwa imbunda zabo mu ntoki. Hirya yabo hariho igiti kirekire, ndetse hakaba hariho n'inzu.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe kandi bambaye neza. Bose bambaye udupfukamunwa. Harimo abambaye utw'ubururu ndetse n'abambaye utw'umukara . Hariho kandi n'abambaye imyenda ya gipolisi . Imbere yabo haparitse imodoka ntoya iri mu ibara ry'umweru.

Imodoka y'abapolisi iri mu mabara abiri, hari ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru, imodoka kandi yandikishijeho amagambo mu ibara ry'umukara, impande y'iyi modoka hariho umuntu wambaye imyenda ya gipolisi kandi ari kumwe n'imbwa, inyuma y'iyi modoka hariho inzu ndetse imbere hariho indi modoka.

Igikoresho cifashishwaga mu rugendo, iki gikoresho kigendera mu kirere gifite izina citwa indege. Iyi ndege itwaraga abantu n'ibintu ikanyura mu kirere ikagendera mu kirere ifite amabara atandukanye: ifite umweru ndetse n'ubururu bwijimye.

Abantu benshi bicaye bambaye umwenda wa gipolisi, bari kureba undi mupolisi uri imbere ufite gaze yayicanye yateretseho isafuriya. Bisa nk'aho ari kubigisha uko bacana kuri gaze

Umugabo wicaye mu ntebe yambaye imyenda ya giporisi, Ifite ibara ry'umukara. Yambaye kandi n'ingofero isa n'izo myenda. Uyu mugabo ku myenda yambaye handitseho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Abantu batandukanye abagabo ndetse n'abagore, aha hariho abantu babiri bambaye imyenda amapantaro y'umutuku uhiye ndetse n'amashati y'umweru. Abandi bari inyuma bari kureba ukuntu uyu muntu wambaye iyi myenda ari guteka kuri gaze, hariho inyuma n'agashamba karimo ibiti birebire.

Inkwavu eshatu ziryamye, ururi hagati rufite ibara ry'umweru, ururi imbere rukagira ibara ry'umukara, ku zuru rukagira ibara ry'umweru, ururi inyuma rufite ibara ry'umukara ku mutwe, mu gituza hakaba ibara ry'umweru, urukwavu ni rwiza rwororoka vuba.

Abagabo benshi bambaye imyenda ya kaki isa, amapantaro n'amashati ndetse n'ingofero. Aba bagabo kandi bambaye inkweto zisa zifite ibara ry'umukara. Aba bagabo bagaragara nk'aho bari kwitoza umurimo wo gucunga umutekano.

Abagabo umunani bahagaze bose bambaye amapingu. Inyuma y'abo bagabo hariho umupolisi ufite n'imbunda. Impande yabo kandi hariho imodoka ntoya y'umweru yicayemo abantu.

Uruhurirane rw'abantu ,abagabo ,abagore, abakecuru n'abasaza, bicaye imbere y'ikigo cy'amashuri, ubwo ni mu kibuga hagati. Impande ya bo kandi hariho amashuri menshi ashakaje amabati afite ibara ry'ubururu. Imbere ya bo hari umugabo wambaye imyenda ya gisirikari ,ufashe indangururamajwi ari kubabwira.

Abagabo babiri bambaye imyenda ya gipolisi iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo, umwe afashe ikintu kiri mu ibara ry'umukara. Inyuma yabo hariho abandi bantu benshi barimo n'abambaye imyenda y'ubururu, inyuma kandi hariho amazu hamwe n'abanyeshuri bambaye amashati ari mu ibara ry'umweru.

Abagabo batandatu bambaye imyenda itandukanye, hariho abambaye imyenda ya gisirikare, iya gipolisi n'imyenda y'abadaso. Hariho kandi n'abandi babiri bambaye imyenda isanzwe ya gisivili, imbere yabo hariho imeza iriho inkweto za bote.

Abantu bari mu isiganwa ry'amagare, bambaye amakabutura y'umukara hejuru udupira tw'ubururu, inyuma yaho hariho imodoka ebyiri zibakurikiye, ndetse imbere yaho hariho umupolisi usa nk'aho ari kubaha icyerekezo cyo kunyuramo, ku ruhande hari abantu bari kureba.

Umugabo wicaye ufashe indangururamajwi ndetse afashe n'impapuro. Uyu mugabo yambaye imyenda ya gipolisi, yambaye kandi n'ingofero irimo ibara ry'icyatsi, bisa nkaho imbere ye hariho abantu ari kubwira ijambo.

Imodoka nyinshi ziparitse ahantu hamwe kandi nini, izi modoka zisa n'umweru zicanye amatara bisa nkaho ari nijoro izi modoka zipakira ibintu, imbere y'izi modoka hariho abantu benshi ndetse hariho n'abapolisi.

Uruhurirane rw'abantu benshi abagabo, abagore, urubyiruko, mbese n'ingeri zose bicaye mu kidara. Imbere yabo kandi hariho abandi bantu benshi bahagaze bambaye imyenda y'umukara, hagati yabo hariho undi muntu uhagaze usa nkaho arikubaha amabwiriza.

Abagabo n'abagore bicaye hamwe ,bisa nk'aho bari mu nama. Imbere yabo hari ameza ateguyeho ibitambaro by'umutuku ndetse n'umweru. Kandi buri wese afite icupa ryamazi rimuteretse imbere. Ku gikuta kuri iyo nzu hariho imitako iri mu mabara y'umuhondo.

uruhurirane rwabantu' abagabo, abagore, urubyiruko. Bicaye bisa nkaho bari mu nama imbere yabo hariho undi mugabo uhagaze uri kubabwira ijambo, inyuma ye kandi hariho ameza bateguyeho igitambaro, kiri mu mabara atatu arimo ibendera ry'u rwanda ubururu, umuhondo, nicyatsi.

Uruhurirane rw'abantu abagabo n'abagore n'urubyiruko bicaye ahantu hamwe kandi bambaye neza, bateze amatwi bisa nkaho hari umuntu uri kuvuga imbere wagira ngo bari mu nama.

Imbaga y'abantu benshi bicaye hamwe, harimo abagabo ndetse n'abagore, bafite ibitabo cyangwa se amakayi, ndetse n'imashini imbere ku meza. Ikindi kandi bafite n'amazi yo kunywa, inyuma yabo hari izindi ntebe ziticayemo abantu.

Imbaga y'abantu bateraniye hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore baturutse impande zose, bateze amatwi umuntu uri kuvuga. Imbere yabo hari umugabo wambaye ipantaro yumukara, inkweto z'umukara ndetse n'ishati iri mu amabara y'umweru ufite indangururamajwi mu bigaragara aba abantu bateze amatwi ibyo ari kuvuga.

Umuntu wicaye ufashe igikoresho cya kinyarwanda bacurangaga kera . Uyu muntu yambaye imyenda isa , y'amabara y'umukara harimo uturongo tw'ubururu ndetse n'umweru.

Igikoresho giteretse hasi kibajije mu giti. Iki gikoresho cyifashishwaga kera bari gusekura isombe cyangwa se ubugari. Impande y'iki gikoresho hariho umuntu uhagaze utagaragara neza.

Ibikoresho bikozwe mu ruhu bikoreshwa mu gukora amajwi, cyangwa mu mbyino za gakondo. Ibi bikoresho byitwa ingoma. Izi ngoma zikoreshwa iyo abantu bari kubyina imbyino, cyane cyane za gakondo.

Abantu bari kubyina imbyino za gakondo. Inyuma y'aba bantu, hari abandi benshi bicaye, bari kureba ko bari kubyina, mbese muri make bisa nk'aho habaye ibirori.

Umwana w'umuhungu wambaye imyenda imeze nk'iy'abantu babyina imbyino za gakondo .Uyu mwana afashe imirishyo ibiri mu ntoki ari gukoma ingoma zimuteretse imbere ,inyuma ye kandi hariho ishyamba ry'ibiti birebire ndetse n'ibyatsi.

Ingoma eshatu zidafite ingano imwe. Hariho kandi n'imirishyo yazo. Izi ngoma zikunda gukoreshwa mu gihe hari kubyinwa imbyino gakondo, cyangwa se izo dukunda kuvuga ngo ni imbyino nyarwanda.

Abana bane harimo abakobwa babiri ndetse n'abahungu babiri, aba bana hasi bose bambaye kaki ndetse hejuru bose bambaye imyenda cyangwa amashati asa na burusiyero, aba bana bari kuvuza ingoma.

Ibikoresho byo mu rugo byagaragaraga mu minsi yashize yo hambere, bikoze mu ibumba, bikaba byarifashishwaga mu guteka cyangwa se gushyiramo inzoga, ndetse n'umusuru, bikaba byitwa ibibindi cyangwa udukono.

Umugabo ufashe igikoresho kera bacurangishaga mu njyana za gakondo, uyu mugabo akenyeye umukenyero urimo ibara ry'umweru n'umukara, kandi yambaye umushanana w'umweru, afite n'imitako mu ijosi no mu mutwe, ifite amabara y'icyatsi umutuku ndetse n'umweru.

Igikoresho cyo mu rugo. Iki gikoresho cyifashishwa mu mirimo myinshi itandukanye. Harimo ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Kikaba gifite izina ry'ishoka cyangwa se indyabiti. Iki gikoresho gifite akamaro kanini cyane.

Inyamaswa ikunzwe cyane n'umubare mwinshi w'abatuye isi. Iyo nyamaswa ifite akamaro kanini, ikaba ifite izina ry'inka. Inka ni inyamaswa yororwa mu rugo, igatanga amata ndetse igatanga n'inyama. Iyi nka ifite amahembe maremare.

Uruhurirane rw'abantu abagabo, abagore, abana n'urubyiruko. Bahuriye ahantu. Aba bantu harimo abicaye ndetse n'abandi bahagaze, bikoreye ibiseke, ndetse n'umugabo wikoreye ikibindi. Inyuma yaho hariho amazu ndetse n'ishyamba ririmo ibiti binini.

Abana b'abahungu ndetse n'abakobwa bari kubyina imbyino za gakondo abana b'abakobwa bambaye imikenyero, imishanana isa ndetse n'udusengeri dufite ibara ry'umukara, bikoreye kandi utwibo ku mutwe, abana b'abahungu n'abakobwa bandi bari inyuma bari kuririmba no gucurira bambaye imikenyero isa n'umweru.

Umuvure urimo ibitoki cyagwa se imineke ndetse n'ubwatsi bagiye kubikamisha, hariho umuntu uri mu muvure uri gukama ibyo bitoki, ndetse n'abandi bagore bari ku ruhande bari kureba.

Umwana w'umuhungu ubyina imbyino za gakondo cyangwa se za kinyarwanda, afashe icumu mu ntoki, yambaye imitako cyangwa imyenda babyinana, iri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, ikindi kandi yambaye umugara mu mutwe.

Abana b'abahungu ndetse n'abakobwa， bari kubyina imbyino za kinyarwanda，abakobwa bahagaze inyuma bambaye imikenyero n'imishanana， bari kuririmba no gukoma amashyi. Abahungu kandi hari abari kubyina， ndetse hari n'abandi bari gukoma ingoma.

Umubare utari muke w'abantu bateraniye hamwe, hariho kandi n'abazungu umunani bambaye imkenyero ni'mishanana, n'abari gukoma ingoma hariho n'abandi birabura, harimo abari kubyina ndetse n'abandi bari inyuma bari kureba.

Igikoresho cya kinyarwanda gikoze mu ibumba. Iki gikoresho kitwa ikibindi, gipfundikijeho ikoma, hariho kandi n'imiseke irimo, hariho umuntu w'umusaza, wambaye ikoti, n'ipantaro y'umukara, n'akagofero.

Igikoresho cyyo mu rugo. Iki ni igikoresho gikenerwa cyane mu rugo haba mu mirimo myinshi itandukanye mu buhinzi, mu bwubatsi ndetse n'ibindi harimo n'ubworozi. Iki gikoresho gifite izina ry'umuhoro.

Inyamaswa zo mu rugo zifite izina ry'inka, izi ni nyamaswa zikunzwe n'umubare munini w'abantu iz nyamaswa kandi zifite akamaro kanini zitanga amata, zigatanga inyama ndetse zitanga n'ifumbiremborera yo guhingisha, inyuma y'ahantu ziri hari ibiti birebire.

Umubare mwinshi w'inka zitatse zifite n'amahembe maremare, izi nka zifite ibara ry'Isine ,inyuma y'izi nka hariho abantu benshi bari kuzitegereza.

Abana b'abahungu ndetse n'abakobwa bari kubyina imbyino za gakondo, abana b'abakobwa bambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, mu gihe aba bahungu bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru.

Abana b'abahungu ndetse n'abakobwa bari mu myidagaduro. Bari kubyina imbyino za gakondo, inyuma yabo bantu hariho abandi benshi babahanze amaso. Inyuma kandi hariho inzu isakaje ibyatsi.

Abagabo bane batwaye ingobyi ku rutugu. Iyi ngobyi irimo umuntu uryamye, ndetse bamworoshe ikiringiti. Inyuma hariho inzu yubakishije amatafari ahiye, isakaje amategura, ku ruhande hariho abandi bantu.

Abana b'abahungu ndetse n'abakobwa bari kubyina imbyino za gakondo, aba bana b'abahungu harimo abambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, n'abandi bambaye imyenda ifite ibara ry'umuhondo n'umweru, abakobwa kandi na bo bari inyuma bari kubakomera amashyi bambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi n'umweru.

Abagabo babiri bicaye mu nzu. Aba bagabo bari gukina igisoro. Muri iyi nzu bicayemo, irimo imitako myinshi ndetse n'ibindi bikoresho byinshi bya gakondo.

Ikigega cya kera bakoreshaga bahunikagamo imyaka, iki kigega kimanitseho ibigori by'amahundo, inyuma y'iki kigega kandi hariho indabo z'amabara atandukanye, ikindi hariho n'ibiti birebire.

Inka ibiri zifite amahembe maremare ziri mu ibara ry'umukara. Ikindi hariho abantu batandukanye harimo abana b'abahungu ndetse n'b'abakobwa. Ababana b'abahungu n'abakobwa bambaye umwambaro w'imikenyero.

Abana b'abahungu ndetse n'abakobwa bari kubyina imbyino za gakondo. Aba bana bambaye imyambaro itandukanye; hari abambaye iyisa n'umutuku, iyisa n'umukara, iyisa n'umuhondo. Ikindi kandi aba bakobwa bahagaze inyuma bari gucurira bari no kuririmba. Inyuma ya ba bantu hariho inzu isakaje ibyatsi.

Abana b'abakobwa bari kuvuza ingoma. Aba bana bambaye imikenyero ndetse n'imimishanana iri mu ibara ry'umuhondo. Ikindi kandi bambaye amasengeri afite ibara ry'umweru.

Igikoresho cyakunze kugaragara mu minsi yo hambere. Iki gikoresho gikozwe mu ibumba cyakoreshwaga ku bantu bengaga inzoga cyangwa umusururu. Bashyiragamo umusururu cyangwa bakagitaramo n'inzoga kugira ngo bishye, kikaba kitwa ikibindi.

Ibikoresho bya kera bakoreshaga banywa inzoga cyangwa umusururu, bikaba byitwa ibicuma. Iki gicuma kandi n'uruho biteretse ku gakoko, ako gakoko nako gateretse ku kirago.

Abakobwa babiri kandi bambaye neza, bambaye inkweto ndende. Inyuma yabo hariho ivase irimo indabyo. Aba bakobwa bari kwimurika, bari guseka.

Umucecuru wicaye uri kuboha ikirago. Impande y'uyu mukecuru hariho inzu, yubakishije ibiti bihomesheje ibyondo. Uyu mukecuru kandi inyuma ye hariho uruzitiro rw'ibiti. Inyuma y'iyi nzu naho hariho insina.

Ibikoresho bitandukanye byo mu gikoni. Harimo imyuko n'imidaho. Na none kandi harimo isekuru. Ibi bikoresho bikunzwe gukoresha cyane mu gikoni bateka, basekura ubugari, cyangwa se nk'isombe, ibi bikoresho bibajwe mu giti.

Igikoresho gikozwe mu giti, gikoreshwa mu gusekura isombe cyangwa ubugari, iki gikoresho cyitwa isekuru, ndetse n'umusekuzo wayo. Impande yayo hariho igitebo kiboshye mu migano, ndetse n'umupira uboshye mu budodo no mu mashashi.

ibuye rinini riteretse hasi, hejuru yaho hariho akandi kabuye gato. Iri buye ryitwa urusyo, ndetse n'agato kitwa ingasire. Iri buye ryakoreshwaga kera mu buryo bwo gushaka ifu. Imbere y'iryo buye, hariho ikirago gitoya, giteretseho agakoko, ndetse n'icyibo. Inyuma hariho uruzitiro rw'ibiti.

Abana b'abahungu bari kubyina imbyino za gakondo, aba bana bafashe amacumu ingabo mu ntoki ndetse bambaye n'imigara mu mitwe, bambaye kandi na mayugi mu birenge.

Igikoresho gikoreshwa mu mbyino za kinyarwanda icyo gikoresho cyitwa ingoma, iyi ngoma ibambye mu ruhu rufite ibara ry'umukara harimwo n'umweru, hejuru hariho imirishyo iyi ngoma iteretse ku ntebe ifite ibara ry'umweru, impande y'iyo ntebe hariho utwatsi duke.

Ibikoresho bya kinyarwanda bikoreshwa cyane mu mata, byakundaga gukoreshwa mu myaka ishize ya kera, harimo ibisabo ndetse n'ibyansi, hari ibindi bikoresho by'ibicuma byakoreshwaga mu kunwa inzoga cyangwa se umusururu, hari ibindi byitwa ibirago biboshye mu bwatsi n'imideyi, ndetse n'udukoko two mu migano.

Itungo rikunzwe n'abantu benshi kubera ko ritanga ibintu bitandukanye: harimo amata ndetse n'inyama, iryo tungo ryitwa inka, izi nka zifite amabara atandukanye hari izisa n'umukara harimo n'umweru ndetse n'izifite ibara ry'isine imbere hariho umuntu ufashe ijerekani uziha amazi.

Abana b'abakobwa, bari kubyina imbyino za gakondo. Abanaana bambaye imikenyero ifite ibara ry'icyatsi, imishanana ifite ibara ry'ubururu, harimo n'abambaye imishanana ifite ibara ry'umuhondo. Ku rundi ruhande kandi hariho undi ufite umukubuzo wo hasi, ndetse n'undi ufite igisabo. Aba bakobwa bafite udukoko.

Abagabo babiri bambaye imyenda yo kubyinana imbyino za gakondo; bambaye n'amayugi mu maguru aba bagabo bafite amacumu ndetse n'ingabo, inyuma y'ahantu bari kubyinira hariho ishyamba ririmo ibiti.

Itungo rikunzwe n'abantu benshi kubera akamaro ribafitiye. Hari abaryorora rikabaha ifumbire, ndetse hari n'abarikundira ko ritanga inyama, cyangwa se ibyo kurya. Iri tungo ryitwa inka, inyuma y'iyi nka hariho ibiti birebire binini, ku ruhande rw'inka hariho ikiraro ndetse n'uruzitiro rw'ibiti.

Inkono ikoze mu ibumba itari yatekwamo na rimwe, izi nkono kera zakundaga kugaragara mu myaka yashize, aho wasangaga abantu bakuze nk'abakecuru aribo bakunda kuzitekamo.

Igikoresho cya kera gikoze mu ibumba bashyiragamo umusururu cyangwa inzoga, iki gikoresho kikaba cyitwa ikibindi .Iki kibindi kirimo umusururu harimo kandi n'imiheha cyangwa imiseke ,impande hariho ikirenge cy'umuntu.

Abana b'abahungu ndetse n'abakobwa bari kubyina imbyino za kinyarwanda. Hari abambaye imikenyero ifite ibara ry'icyatsi, ndetse n'imishanana ifite ibara ry'umuhondo. Kandi bambaye amashati afite ibara ry'ubururu. Hari intore ziri kubyina zifashe amacumu ndetse n'ingabo.

Abana b'abakobwa ndetse n'abahungu bari kubyina imbyino za kinyarwanda. Abo bana bambaye imikenyero n'imishanana. Imishanana isa n'umweru, imikenyero ni umweru uvanze n'umukara. Kandi bambaye amayugi na masayi. Abana b'abakobwa bikoreye uduseke, bambaye amasengeri y'umukara ndetse n'abahungu bambaye udupira tw'umukara.

Igikoresho cyo mu rugo gikozwe mu bwatsi ndetse n'imideyi kikaba cyitwa ikirago. Iki kirago bacyicaraho mu rugo. Hariho umuntu utagaragara neza ariko intoki ze ni zo zigifashe.

Ibikoresho byakundaga gukoreshwa mu minsi yo hambere. Ibyo bikoresho byitwa ibicuma. Ibi bicuma bitandukanye ugendeye ku ngano yabyo. Harimo ibinini ndetse n'ibito. Kera bakundaga kubinyweramo inzoga y'urwagwa cyangwa se ikigage.

Abana b'abahungu harimo abirabura ndetse n'abazungu babiri. Bari kubyina imbyino za gakondo. Aba bana b'abahungu bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru. Bambaye kandi n'imigara, bafite n'amacumu mu ntoki. Mbese bari kubyina imbyino z'intore.

Ibikoresho bikoreshwa mu mbyino za gakondo cyangwa se za kinyarwanda. Ibi bikoresho bizwi ku izina ry'ingoma, hariho kandi n'imirisho yazo bakoresha bari kuzivuza.

Abana b'abahungu bari kubyina imbyino za gakondo, abana bambaye imyenda zifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umutuku hasi, kandi bose bambaye imigara, bafashe n'amacumu. Inyuma yaho kure hariho umusozi muremure uri kugaragara.

Igikoresho gikoreshwa cyane n'abantu batari bake, umuntu wese iki gikoresho ashobora kuba agikenera cyitwa sharijeri cyangwa se cati iri mu mabara y'umweru iyi sharijeri ikoreshwa mu gutambutsa umuriro iwushira mu materefone cyangwa se mu maradiyo n'ibindi bikenera umuriro.

Inzu nini isize amarangi ari mu mabara abiri. Harimo ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi, imbere haparitseho imodoka. Iyo nzu bigaragara ko ari umusigiti. Iriho ukwezi ndetse n'inyenyeri hejuru, ikoreshwa n'abayisilamu basenga.

Inzu nyinshi zubakishije amatafari ahiye, zisize irangi kumadirishya, risa n'umweru. Izi nzu kandi zisakaje amabati afite ibara ry'umutuku, inyuma y'izi nzu hariho imisozi miremire.

Ikigo cy'amashuri cyubatse ahantu hagati y'ibiti. Amashuri yubakishije amatafari ahihe, ndetse ashakakaje amabati y'ubururu. Imbere winjira ku kigo hariho igiti kirekire k'inturusi. Harimo kandi n'ibibuga abana bakiniramo na lavabo y'amakaro bakarabiramo.

Inzu ndende kandi nziza nini, iyi nzu ni etaje, iyi nzu kandi ifite amabara atandukanye harimo: umweru, ubururu bwijimye, n'ubururu butijimye, ikindi kandi isize irangi ry'umuhondo ,imbere hariho uruzitiro rw'amagiriyaje hariho kandi imbere y'urwo ruzitiro imodoka y'umweru.

Inzu yubatse igeretse kabiri ,ubwo ni etaje. lyi nzu yubakishije amatafari ahiye, ndetse isakaje n'amabati afite ibara ry'ubururu. Inzu kandi ifite imiryango isize ibara ry'ubururu, imbere hariho umugabo ndetse n'umwana.

Inzu eshatu, zitandukanye zisakaje amabati ari mu mabara atandukanye; imwe isakaje amabati y'umutuku indi ni amabati y'umweru indi isakaje amabati y'ubururu, imbere y'izo nzu hariho ibiti binini kandi birebire.

Inzu ndende ya etaje igeretse kabiri, imbere hakikijweho jaride, irimo abantu bisa nkaho bari kuyikoramo isuku ,imbere mu marembo hahagazemo abandi bantu basa nkaho bavuye muri iyi etaje, ku ruhande hariho umuhanda wa kaburimbo.

Abantu bambaye neza bahagaze bari kwifotoza, harimo: abagabo umunani, ndetse n' numugore umwe. Inyuma y'abo bantu kandi hariho amazu manini, kandi maremare ya etage. Bahagaze mu muhanda wa kaburimbo.

Igipangu cyubakishije amatafari ahiye, ndetse n' amagiriyage asize ibara ry'mweru, mu nda yicyo gipangu harimo amazu menshi, y'ubakishije amatafari ahiye, ashakaje amabati y'umweru ariko ashaje, ikindi kandi harimo n'ibiti birebire, inyuma y'icyo gipangu hariho umuhanda urimo amabuye.

Umwana w'umuhungu wambaye agapira k'ubururu ndetse n'ikabutura yikoboyi, uyu mwana afite ekuteri mu ijosi, uyu mwana kandi yicaye ku igare rifite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, impande ye hariho inzu.

Inzu nyinshi zubakishije amatafari ayiye, zisakaje amategura y'umutuku, impande y'izo nzu hariho umuhanda w'itaka mugari hari kunyuramo imodoka izwi ku izina rya toyota, inyuma kandi y'uwo muhanda hariho agatente gatoya gahari, hariho n'agashyamba ariko gatoya.

Ibyuma byinshi bihagaze kandi bitondetse ku mirongo, ibi byuma hejuru bifite insinga zigiye zibifasheho ,mbese muri make ibi byuma bitwaye umuriro w'amashanyarazi.

Inzu ndende ya etage, iyi nzu igeretse kabiri, iyi nzu isize amarangi y'umuhondo, ndetse ifite jaride imbere nini irimo n'uduti tukiri duto, imbere hakikijweho inzira ya mapave, kandi hariho n'itara ryo ku muhanda bifatiyeho n'urutsinga.

Inzu ndende ya etaje, igeretse kabiri. Iyi nzu bisa nk'aho ari ku kigo cy'ishuri, kubera ko ifite imiryango myinshi. Iyi nzu yubakishije amatafari ahiye. Isize kandi amarangi ari mu ibara ry'umuhondo.

Inzu zubatse neza, ziteye umusenyi w'umukara, zisakaje amabati afite ibara ry'umutuku, imbere y'izo nzu hariho abantu bari gushingirira, ku ruhande rw'inzu imwe kandi hariho undi muntu wunamye wambaye agapira gafite ibara ry'icyatsi.

Ifoto iriho abantu batandukanye, abagabo ndetse n'abagore. Bambaye imyenda y'iniforume, ifite amabara y'ubururu, ndetse n'abambaye ifite amabara y'umweru. Nanone hariho icyapa gishushanyijeho inkoko ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'iry'umukara.

Inzu nini ya etage yubakishije amatafari ahiye, imbere ku miryango itandukanye y'izo nzu, hanitseho imyenda ziri mu mabara gatandukanye.

Igipangu cyubakishije amabuye，hejuru hariho icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara. Kuri icyo gipangu kandi hariho umusekerite， wambaye ipantaro n'ishati，n'ingofero bisa.

Imodoka yo mu bwoko bwa Rava ifite ibara ry'umweru. Iyi modoka iri kunyura ku kiraro hasi gifite ibara ry'umutuku, ku mpande ibyuma bisize ibara ry'icyatsi. Impande y'iyo modoka kuri icyo kiraro hariho umuntu uri kuhanyura, wambaye imyenda y'umukara uri ku igare. Inyuma kandi hariho abantu benshi bari kureba ndetse harimo n'abamotari.

Inzu nyinshi zubakishije amatafari ahiye, zisakaje amabati y'umutuku, ziteye irangi ku nzugi n'amadirisha rifite ibara ry'umweru, imbere hariho umwana wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'umupira w'umutuku.

Insinga z'umuriro nyinshi. Zigiye zijyanye umuriro ahantu hatandukanye. uwo muriro zijyanye ukenerwa n'ahantu henshi ndetse no mu bikorwa byinshi. Amamashini atandukanye akenera umuririro, ndetse no mu ngo z'abaturage hagakenerwa umuriro bari gucana.

Amatara yo ku muhanda ari kwaka. Bisa nk'aho ari nijoro. Ku ruhande rw'umuhanda hariho inzu nini kandi ndende za etaje. Aya matara ari hagati mu mihanda ibiri.

Inzu ebyiri zubatse neza, zisakaje amabati afite ibara ry'ubururu. Izi nzu imbere yaho, hari indi nyubako igaragaza isoko. Nanone zikikijwe n'ibiti birebire, ndetse n'ibyatsi.

Inzu nini kandi ndende isize amarangi atandukanye, iruhande cyangwa imbere y'inzu hariho iyindi nyubako bisa nk'aho wagira ngo ni isoko, imbere kandi hariho jaride irimo ibiti.

Inzu nini hejuru iriho umusaraba iyi nzu yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu iyi nzu yitwa urusengero, cyangwa se kiliziya imbere ku muryango hariho abantu benshi, bigaragara ko baje gusenga.

Abantu baje mu birori harimo :abagabo ,abagore abasaza n'abakecuru ,ingimbi n'abangavu n'abana batoya ,hariho kandi umukecuru ufashe indangururamajwi ,bigaragara ko ari kuvuga ijambo abwira abateraniye hano.

Abantu benshi bahagaze harimo abasaza, abagore ndetse n'urubyiruko, bambaye udupfukamunwa umusaza umwe uri imbere ari kudangururamajwi, ari kuvuga inyuma kandi hari abandi bicaye.

Uruhurirane rw'abantu benshi abagabo ndetse n'abagore, abakecuru n'abasaza, bahuriye hamwe batonze umurongo, imbere yabo hariho abandi bagabo n'abagore bambaye imipira zifite ibara ry'icyatsi bisa nkaho hari ibintu bari kubaha, barahagaze abandi babateze amatwi bategereje kumva ibyo bababwira.

Uruhurirane rw'abantu benshi batandukanye bicaye abagabo abagore ndetse n'urubyiruko, basa nk'aho bateze amatwi umuyobozi uri kuvuga, imbere yabo hahagaze umugabo ufashe indangururamajwi wambaye amarinete, inyuma yaho kandi hariho amazu menshi atandukanye hariho n'isakajwe amategura.

Imbaga y'abantu bateraniye hamwe, harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku, mo hagati muri bo harimo umugabo ufashe ingofero ndetse n'ibipapuro mu ntoki, ikindi kandi afashe indangururamajwi ari kubabwira, bicaye mu nzu ifite igikuta gisize irangi cy'umuhondo.

Uruhurirane rw'abantu bicaye, abagabo ndetse n'abagore, imbere yaho hari indabo ziri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi, inyuma yabo kandi hari ibiti birebire ndetse n'inzu.

Imbaga y'abantu bateraniye hamwe. Harimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko. Hagati yabo harimo umugore wambaye amarinete, ufashe indangururamajwi ari kuvuga. Imbere yabo hariho indabo zo mu ibara ry'umuhondo n'icyatsi. Bicaye munsi y'ibiti binini mu gacucu.

Uruhurirane rw'abantu bicaye bateze amatwi undi muntu uri kuvuga. Harimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko. Hagati yabo harimo umugore ufashe indangururamajwi uri kuvuga, inyuma yabo hariho amazu menshi ndetse hariho n'ibiti binini kandi birebire.

Abagabo benshi bicaye imbere yabo hariho umugabo wambaye ishati ya pinki n'ipantaro, ufashe indangururamajwi ari kuvuga. Inyuma hari abandi bagore bicaye mu byatsi, abandi bahagaze, inyuma hari igiti kinini ndetse n'amazu

Uruhurirane rw'abantu bicaye ndetse hari n'abahagaze, aba bantu harimo abagabo ,abagore, abasaza, abakecuru ,urubyiruko mbese muri make ni ingeri zose, harimo kandi abantu bahagaze hagati yabo babiri harimo ufashe indangururamajwi ari kuvuga ,ndetse n'undi uri gufotora inyuma yabo hari igiti kirekire.

Imodoka nini iri mu mabara atandukanye, harimo ibara ry'icyatsi, umweru n'ibara ry'umutuku, kandi yandikishijeho amagambo mu ibara ry'umutuku. Iyi modoka hari abantu bayicayemo, ndetse hari n'abandi bari kuyinjiramo, ikindi hari abandi bantu bahagaze ku ruhande.

Imodoka nyinshi z'ubwoko butandukanye, ziri mu muhanda zigenda, izindi ziparitse. Uyu muhanda kandi urimo n'abantu benshi bagenda. Hariho abagenda na moto ndetse n'abagenda n'amaguru. Impande y'uyu muhanda hateyeho ibiti birebire ndetse inyuma y'ibyo biti hariho n'amazu asakaje amategura.

Imodoka ziri mu mabara abiri harimo ibara ry'umweru ndetse n'iryubururu, zizwi ku bwoko bwa twegerane, zihetse abantu. Ikindi hariho abamotari bahetse abantu kuri moto. Inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umutuku, ndetse cyandikishije amagambo y'umweru, kandi hari imodoka ziparitse.

Abana b'abanyeshuri b'abakobwa bahetse ibikapu mu mugongo, bambaye kandi inforume z'amabara atandukanye, hasi bose bambaye kaki, ariko hejuru bamwe bambaye umweru, abandi bambaye ubururu, bari gutega imodoka, bisa nk'aho bagiye ku ishuri.

Urujya n'uruza rw'abantu. Abagabo, abagore, urubyiruko, abasaza n'abakecuru. Mbese ni ingeri zose. Bari kwambukanya umuhanda bamwe bajya iburyo, abandi bajya ibumoso. Hirya yabo kandi hariho imodoka iri mu mabara abiri. Hari ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru.

Moto iriho umuntu uyicayeho bisa nk'aho ayitwaye. Inyuma yaho hariho imodoka ndetse n'abandi bantu bahagaze abagabo babiri n'umugore umwe bisa nk'aho bari kuganira.

Abamotari benshi batwaye abagenzi, inyuma y'aba bamotari kandi hariho imodoka y'umukara, hirya y'aho ku ruhande rw'umuhanda hariho inyubako, ni inzu ndende ya etaje iriho icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu icyatsi ndetse n'umukara.

Uruja n'uruza rw'abantu bari muri gare batega, abandi bava mu modoka bajya mu bice bitandukanye by'igihugu. Kandi harimo n'ubwoko bwinshi butandukanye bw'imodoka, inyuma kuri iyo gare harimo amazu menshi atandukanye.

Imodoka yitwa twegerane iri kwinjira muri gare, iyi modoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, mu wundi muryango kandi harimo abantu bari gusohoka n'abinjira, abagenda n'amaguru ndetse n'abafite amagare, kuri iyi gare kandi hejuru hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Imodoka ebyiri nini zikurikiranye, zifite amabara atandukanye, harimo ibara ry'icyatsi n'ibara ry'umweru, ziri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, inyuma hari indi modoka ntoya imwe dukunze kwita toyota. Ku ruhande rw'uwo muhanda, hari ishyamba ririmo ibiti birebire.

Imodoka nyinshi zitandukanye hariho izitwa twegerane ndetse n'izindi za fiderite, hariho kandi abantu harimo abafashe amagare ndetse n'abamotari, hariho kandi imitaka ibiri uwa eyateri nuwa MTN hariho kandi amazu y'ubucuruzi, inyuma ya yo mazu hariho isoko rinini ryubatse.

Uruhurirane rw'abantu, abagabo n'abagore bahagaze imbere y'imodoka. Aha haparitseho imodoka ebyiri nini. Harimo ifite ibara ry'umweru gusa, hariho n'indi ifite ibara ry'umweru hamwe n'icyatsi.

Inzu nini kandi nziza isize irangi ry'umuhondo, imiryango n'amadirishya isize irangi ry'umweru, imbere y'inzu kandi haparitse abamotari benshi, bambaye amajire ari mu ibara ry'umutuku.

Ikinyabiziga gifite amapine atatu kitari moto kandi kitari n'imodoka, iki kinyabiziga cyitwaye nka moto ariko kandi kirenze moto, kubera ko cyo cyagenewe gupakira imizigo, gifite amabara menshi harimo ubururu, umutuku ndetse n'umukara.

Imodoka nyinshi kandi nini, ziparitse ahantu hamwe, zose z'ubwoko bumwe, ziri mu mabara atandukanye, harimo ibara ry'umweru, ibara ry'icyatsi, n'ibara ry'ubururu. Iyi modoka yanditseho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ubururu. Izi modoka zikunzwe n'umubare w'abantu utari muke, bakunda kuzigenderamo cyane.

Imodoka nyinshi kandi nini ziparitse ahantu hamwe, izi modoka zifite amabara atandukanye harimo nk'umweru, icyatsi, ubururu ndetse n'ibirahuri by'umukara. Izi modoka kandi zanditseho mu magambo ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ubururu. Impande yaho cyangwa se inyuma hariho ibiti.

Uruhurirane rw'abantu , abagabo, abagore. Harimo umugore wikoreye agataro kariho imboga. N'undi mugore ufite ibitebo bibiri biri ku igare. N'abandi bagore babiri ndetse n'abagabo babiri bari kuganira.

Abantu babiri bari mumodoka. Imodoka ifitemo ibara ry'umuhondo. Harimo n'umushoferi wambaye umupira w'icyatsi wicaye kuri vora. Hariho n'undi mugenzi uri kwinjira mu modoka, wambaye ishati ifite ibara ry'ubururu, ufite ikarita ari gukoza ku modoka.

Imodoka enye ziri mu bwoko bumwe kandi nini, ariko zitandukanye mu mabara. Harimo izifite ibara ry'umutuku, harimo ubururu, harimo n'izifite icyatsi ndetse n'umweru. Izi modoka ziparitse ahantu hamwe. Inyuma yaho hariho ishyamba ry'ibiti birebire.

Ikinyabiziga kirimo amabara abiri atandukanye, harimo ibara ry'umutuku n'iy'umukara cyitwa moto, iyi moto itwawe n'umugabo ndetse uhetse umugore inyuma, impande yabo hariho abandi bantu, abahungu ndetse n'abakobwa batandukanye, ndetse inyuma yaho hariho abandi bantu batatu bambaye imyenda y'umuhondo

Moto ebyiri imwe itwawe n'umugabo ahetse umufuka upakiyemo ibintu, indi nayo itwawe n'umugabo ahetse undi mugabo iyi moto iri kunyura mu muhanda wa kaburimbo. Hino no hakurya hose ni umuhanda, hagati y'iyo mihanda harimo jaride y'indabo pasiparuma ndetse n'ibiti by'imitako.

Umugore wambaye ingutiya iri mu mabara y'umutuku, umweru, inkweto z'umukara, umupira, ndetse yipfutse n'igitenge. Uyu mugore afashe igare. Iri gare, rihetse igitebo. Inyuma yaho hariho indabo, ari iz'umuhondo, iz'icyatsi, ndetse n'umutuku uhiye.

Imodoka irimo ibara ry'umweru, yanditseho kandi amagambo ari mu ibara ry'umukara, iyi modoka ipakiye imifuka myinshi irimo ibintu bisa nkaho ari ibirayi cyangwa ibijumba.

Ikinyabiziga kinini kigendera mu kirere, kikaba gifite izina ry'indege. Iyi ndege ifite amabara abiri. Hariho ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu . Iyi ndege kandi yanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu. Imbere hasi hariho umuntu wambaye ijire ifite ibara ry'icyatsi.

Imodoka ine z'ubwoko butandukanye harimo imodoka ibiri za kwaiteri, indi imwe yatwegerane ndetse n'indi imwe dukunze kwita rava, impande yazo hariho jaride ya pasiparuma n'utwatsi dufite uruyange rw'umweru ndetse n'uturabo turi ku ruhande rwa jaride.

Abana b'abakobwa bane bose bambaye udukabutura tw'ubururu, ariko hejuru babiri bambaye udusengeri tw'ubururu, abandi babiri bambaye udusengeri tw'umuhondo. Aba bana b'abakobwa bose bafashe imipira ya volebolo mu ntoki.

Ubwoko bw'imipira yo gukina itandukanye kandi ifite n'amabara atandukanye hariho umupira w'amaboko ari wo witwa mu magambo y'amanyamahanga ngo ni umupira wa vole, uwa basikete, hakabaho n'undi mupira w'amaguru. Inyuma yiyi mipira kandi hateretseho ibikombe bitatse neza.

Abana bambaye imyenda ifite amabara atandukanye. Hejuru bambaye isa n'umuhondo, hasi bambaye amakabutura afite ibara ry'icyatsi. Umwe kandi yambaye akantu mu nda gasa n'umukara ndetse n'amasogisi. Bari gukina umukino w'amaboko witwa basiketi. Inyuma yabo kandi hariho intebe zirimo amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umwana w'umukobwa ufashe akantu mu ntoki akinisha tenisi, yambaye imyenda iri mu mabara abiri harimo ikabutura yo mu ibara ry'ubururu ndetse n'isengeri iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu.

Abana b'abakobwa bose bafite ibisuko. Bambaye imyenda isa, ifite ibara ry'umuhondo harimo n'utundi tubara tw'ubururu. Yanditseho kandi amagambo ndetse na nimero mu ibara ry'ubururu. Bambariyemo kandi mu nda y'udusengeri udupira tw'umweru.

Abana b'abahungu bakina umupira w'amaguru, abo bana bambaye imyenda ifite ibara ry'umuhondo, ndetse harimo n'ubururu imibare yanditse ku myenda yabo yanditse mu ibara ry'ubururu, imbere hariho undi wambaye imyenda isa n'umutuku.

Abana bari mu irushanwa ryo kwiruka, abo bana bambaye imyenda y'ubururu amakabutura ndetse n'amasengeri, inyuma kandi hariho intebe zagenewe kwicarwamo n'abafana, izo ntebe ziri mu mabara atatu; harimo ibara ry'icyatsi, iry'umuhondo n'ibara ry'ubururu.

Abana b'abakobwa bari gukina umukino w'amaboko witwa basiketibolo . Aba bana bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru. Iyi myenda kandi yanditseho, ikanashushanywaho mu ibara ry'icyatsi n'agahondo gake n'agatuku gake . Ku ruhande rw'ikibuga hari umugabo uri kubatoza.

Umwana w'umuhungu uri gukina umupira w'amaboko, yambaye imyenda ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, uyu mukino ari gukina ni umukino ukunzwe cyane n'abantu benshi.

Umwana w'umukobwa uri gukina, uri muri siporo. Uyu mwana yambaye imyenda iri mu mabara ya pinki, ndetse n'ingofero y'umukara. Inyuma y'ikibuga uyu mwana ari gukiniramo hariho icyapa cyaditsweho amagambo ar mu ibara ry'icyatsi, umukara ndetse n'ubururu.

Umwana w'umuhungu wambaye umupira w'umuhondo n'ikabutura y'ubururu, uri kumwe n'undi mugabo wambaye umupira w'umutuku ni'pantaro yubururu, uri gutoza uwo mwana gukina vole. Inyuma y'uwo mwana hariho undi mwana wambaye imyenda isa n'umukara, bisa n'aho nawe bari kumutoza. Hari n'bandi babiri ku ruhande.

Abana b'abahungu bari muri siporo, mbese bari kwirukanka bari mu marushanwa yo kwiruka. Inyuma yaho hariho intebe zirimo amabara atandukanye harimo izifite ibara ry'icyatsi ndetse n'izifite ibara ry'umuhondo.

Abana babiri b'abahungu bari gukina umupira w'amaboko. Umwe yambaye umupira w'ubururu budahiye ndetse n'ikabutura y'ubururu bwijimye, undi yambaye ipantaro y'ibara ry'umukara ndetse n'umupira wibara ry'umuhondo. Inyuma y'aho hari ibyatsi byicayemo abandi bana bari kureba uko bari gukina.

Abantu bambaye imyenda itandukanye bari kujya koga mu mazi . Aba bantu inyuma yabo hariho intebe ziri mu mabara y'ubururu . Hariho kandi n'abandi bantu bari inyuma bari kubareba.

Abana b'abahungu bari mu mukino w'amagare. Harimo abambaye imyenda z'ubururu, imyenda z'icyatsi ndetse n'iy'umweru. Aba bana bari gukorera mu muhanda wa kaburimbo. Impande y'uwo muhanda hariho ibyatsi.

Uruhurirane rw'abantu abagabo ndetse n'abagore bamwe bambaye imipira y'icyatsi hasi amapantaro y'umukara, abandi bambaye imyenda y'ubururu hariho abambaye iy'umukara n'amashati y'umweru, bafashe ibendera ry'u Rwanda.

Umubare mwinshi w'abantu bahagaze mu nkengero z'umuhanda mu mpande zombi bareba uko irushanwa ryamagare riri kugenda, mu muhanda kandi birumvikana harimo abantu benshi bari gukoresha amagare. Ubwo nibo bari mu irushanwa.

Abana b'abahungu bari gukina umukino w'intoki witwa hendiboro. Aba bana bambaye imyenda zifite ibara ry'umuhondo bari ku kibuga bari gukina bambaye kandi bamwe inkweto z'umweru abandi inkweto z'umukara, ku myenda bambaye hariho idarapo ry'igihugu c'u Rwanda ndetse na numero mubara ry'ubururu.

Abana babiri b'abakobwa bari mumarushanwa yo kujugunya umuhundwa. Abo bana bambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu hasi ndetse no hejuru. Inyuma yabo hariho abagabo babiri bambaye imipira y'umutuku n'amapantaro y'umukara. Basa nk'aho ari abatoza babo ndetse inyuma hari undi uri kwirukanka.

Abana b'abahungu bambaye imipira ifite ibara ry'umweru ishushanyijeho n'ibara ry'icyatsi, ubururu n'umutuku bari kumwe kandi n'uwundi wambaye akagofero we utambaye umweru, inyuma yabo hariho intebe ziriri mu mabara atandukanye, hari ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umuhondo.

Abagabo babiri bari gukina umukino w'amaboko. Umwe yambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara. Undi nawe yambaye agapira k'umuhondo ndetse n'ikabutura y'ubururu. Inyuma yaho kandi hariho abandi bantu bari mu nzira cyangwa mu muhanda.

Abana babiri b'abahungu bambaye imipira, amakabutura ndetse n'utugofero mu mutwe, aba bana bafashe akantu mu ntoki gafite amabara abiri atandukanye, harimo ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umuhondo, inyuma y'ahantu bari hariho igiti kinini.

Abana b'abahungu bari mu kibuga bari gukina umupira w'amaboko witwa handiboro, harimo abambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, hari n'undi wambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku, ndetse n'ikabutura ifite ibara ry'ubururu, harimo n'undi uri mu izamu, inyuma yabo ku kibuga hanze hariho abandi bicaye bari gufana.

Umwana w'umukobwa uri muri siporo, ari gukina umukino uzwi ku izina rya basiketi boru. Uwo umukino ukunzwe n'umubare munini wabantu, haba abo mu gihugu ndetse n'abo hanze yacyo.

Uruhurirane rw' abana benshi bari muri siporo, hariho abambaye imyenda zisa hejuru, icyatsi hasi amapantaro asa na kaki, harimo n' abandi bambaye imyenda zifite ibara ry' ubururu, hari abandi bambaye imyenda zifite ibara ry'umukara, inyuma yabo hari abandi bantu benshi batari kugaragara barikureba.

Abana b'abahungu bari gukina umupira w'amaguru, abo bana kandi bambaye imyenda irimo amabara atandukanye hari abambaye ifite amabara y'ubururu ndetse n'abambaye ifite amabara y'umuhondo.

Imodoka ntoya iri kugenda mu muhanda urimo ibyondo，iyi modoka ifite ibara ry'ubururu，yanditseho kandi amagambo mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo. Impande yaho hariho ihema ry'ubururu ryubatse， harimo abantu bicaye， hariho kandi n'igiti kirekire.

Icyobo kinini cyubakiye kirimo amazi, kikaba gikunze kumenyekana ku izina ryitwa pisine, kupande yacyo hariho udutebe abantu bicaraho barangije koga cyangwa bari kureba abari koga. Ku rundi ruhande kandi hariho inzu nziza isize irangi ry'umweru.

Uruhurirane rw'abantu bari mu isiganwa ry'amagare, harimo Abanyarwanda ndetse n'abo hanze y'u Rwanda ubwo ni abazungu n'abirabura ku ruhande impande y'umuhanda, hariho abantu benshi abakecuru, abana, abagabo bari kureba uko iryo rushanwa riri kugenda

Ikibuga cy'umupira w'amaboko, iki kibuga kirimo tapi isa n'icyatsi gishushanyishijemo kandi ibara ry'umweru, iki kibuga ku mpande hariho ibyuma bifite ibara ry'umweru, ikindi kandi gikikijwe n'uruzitiro rw'ibyuma bifite amabara y'ubururu, inyuma y'ikibuga hariho ishyamba.

Abana b'abahungu bari gukina umupira w'amaguru, aba bana kandi bambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu n'umuhondo, hari kandi n'abandi bambaye imyenda iri mu mabara y'umukara.

Abagabo batanu bambaye imyenda isa, harimo abambaye imipira isa n'umutuku yanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, bambaye kandi amapantaro y'amakaki , ikindi bambaye ingofero z'umweru, inyuma yabo hariho icyapa kigiye cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru.

Abana b'abahungu bari mu mwitozo w'amagare. Harimo abambaye imyenda y'ubururu hasi no hejuru. Uri imbere yambaye agapira k'umweru n'ikabutura y'ubururu, amagare arimo ibara ry'umuhondo.

Abana b'abakobwa babiri, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, harimo abambaye imyenda, irimo ibara ry'ubururu, isengeri n'ikabutura, harimo kandi n'uwambaye imyenda, irimo ibara ry'umweru, isengeri n'ikabutura, bari gukina umukino w'amaboko, witwa basikete.

Abana b'abakobwa bicaye mu kibuga bagiye gukina, mu bana harimo ikipe imwe yambaye imyenda y'ubururu, indi imwe yambaye imyenda y'icyatsi, aba bana bisa nkaho bagiye gukina umukino wa vore ariko baba abana n'umwuga ndetse bakina bicaye.

Abana b'abahungu bari gukina umukino w'amaboko, witwa voreboro. Aba bana bambaye imyenda itandukanye. Harimo abambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku, inyuma handitseho mu ibara ry'umweru. Abandi kandi nabo bambaye imipira y'umukara ivanzemo n'umweru.

Abana b'abakobwa bambaye imyenda itandukanye. Harimo abambaye imyenda isa n'ubururu ndetse n'abambaye iyisa n'icyatsi n'udukoti tw'umukara. Ku ruhande kandi ku mpande zombi hariho abandi babiri basa nkaho ari abayobozi. Aba bana b' abakobwa basa nkaho batsinze mu mikino cyangwa se muri siporo.

Umwana w'umuhungu uri gukina, uyu mwana yambaye ikabutura y'icyatsi ndetse n'umukara, hejuru yambaye umupira w'umutuku, akaba yambaye kandi n'amasogisi y'umuhondo ndetse n'inkweto z'umweru. Mu bigaragara inyuma y'uyu mwana, ikibuga ari gukiniramo hari korotire nini.

Umuzungu w'umugabo wambaye agapira karimo ibara ry'umuhondo, ndetse n'ikabutura irimo ibara ry'ubururu, kandi yambaye ikigofero cy'umweru ndetse na fime akaba arikugendera ku igare mu muhanda wa kaburimbo.

Inzira inyuze ahantu hagati mu misozi, iyi nzira kandi ikoresheje amabuye, impande n'impande hariho imisozi iriho ibyatsi ,iyi nzira imbere aho isa n'irangiriye harimo umuntu utari kugaragara neza.

Umuhanda munini wa kaburimbo, uyu muhanda urimo abantu batandukanye bari kugenda barikujya mu byerekezo bitandukanye, hirya impande y'umuhanda hariho amazu menshi hari asakaje amabati y'umutuku ndetse n'asakaje amabati y'icyatsi, hariho kandi akandi kazu gatoya gafite amarangi y'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo, uyu muhanda mo hagati urimo umurongo usa n'umuhondo, ku ruhande kandi hariho indi nzira y'abanyamaguru ishashemo amapave, iri kugaragaramo igicucucucu cy'umuntu.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'inzu nyinshi kandi nziza , inyuma y'uwo muhanda hariho izo nzu ndetse na zo zikikijwe n'uruzitiro rw'indabyo imbere , kandi hariho igiti kirekire kimanitseho insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo ukoreshwa n'abantu batari bake, haba abagiye guhaha abagiye ku kazi ndetse n'abavayo bataha. Ubwo umuhanda ukoreshwa n'abanyarwanda ndetse n'abo hanze y'u Rwanda ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru yubakishije amapave. Muri iyi nzira harimo umuntu uhagaze ufashe igare.